Icyumba cy'inama gisize irangi ry'umuhondo cyicayemo abagabo n'abagore batandukanye, imbere muri icyo cyumba hari n'umugore uhagaze ufite imisatsi miremire wambaye akaburuze gafite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari gutanga imbwrwaruhame ku bandi bantu bicaye muri icyo cyumba.

Abantu benshi bicaye mu magurupe, ku meza afite ibitambaro by'icyatsi kibisi, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi. Bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru, icyo cyumba kigiye kirimo ibyapa bitandukanye, birimo iby'umuhondo n'ubururu, bigiye byamamaza ibintu bitandukanye, bigaragara ko aba bantu bakurikiye ikiganiro runaka.

Umugore wambaye ikoti ry'umutuku n'agapira k'umukara mo imbere na baji y'umweru, ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari agacupa k'amazi; wicaye umeze nkaho uri mu nama, inyuma ye hari abandi bantu na bo bakurikiye bameze nk'aho bari mu nama, ameza ari imbere ye afite irange ry'umutuku.

Abaturage benshi batandukanye, bamwe bicaye abandi bahagaze, bigaragara ko bameze nk'abari mu nama bakurikiye inama. Barimo barakoma amashyi, inyuma yabo hari imodoka nini cyane y'ikamyo isize amarangi y'ubururu. Hirya ku ruhande hari inzu ifite igitwe, bigaragara ko bateranye bari mu nama.

Inyubako isize irangi ry'umweru ifite amarido asa umuhondo. Yicayemo abantu benshi bakurikiye basa n'abari mu nama, imbere ku murongo wa mbere hariho abagabo bicaye bameze nk'abari mu nama, imbere y'abo bagabo hari ameza asize irangi ry'umuhondo kandi n'amakayi barimo barandikamo ndetse n'uducupa turimo amazi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gisize irange ry'umuhondo, imbere yabo harimo amakayi ndetse n'uducupa tw'amazi, biragaragarako aba bantu bari mu nama y'ikintu runaka.

Abantu benshi bicaye mu cyumba basa n'abakurikiye bari mu nama, imbere yabo hari amamashini ateretse ku meza asize irangi ry'umutuku kandi buri wese afite agacupa k'amazi. Bari mu nzu ifite amarido asa umukara n'umweru.

Amateti atatu y'umweru, imbere yayo hazengutswe n'udutambaro tw'umweru n'umukara, hicayemo abantu benshi bambaye imkenyero n'abandi bambaye bisanzwe, bicaye muri jaride ya pasparumu, bigaragara ko ahantu habereye ikirori runaka.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama gisize irangi ry'umuhondo, imbere yabo hari uducupa tw'amazi ndetse n'ikayi n'ikaramu, umugabo umwe arahagaze, yambaye ishati iri mu ibara rya roza, icyo cyumba bicayemo, gitatsemo imitako ifite ibara ry'umweru n'umukara.

Urubyiruko rwinshi rwicaye mu cyumba, inyuma yarwo hahagaze abandi bantu babiri, umwe yambaye ikoti ry'umukara n'umupira urimo umukara n'umweru, inyuma yabo hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo. Ku mpande hahagaze undi mugabo wambaye ingofero n'ishati isa move, wegamye ku gikuta cyubakishije amatafari y'impunyu.

Icyumba cy'inama kirimo intebe zifite ibara ry'ikijuju, cyicayemo abagabo ndetse n'abagore basa n'abakurikiye inama, harimo umugore umwe uhagaze wambaye ishati y'icyatsi kibisi n'agapira k'umukara imbere yayo, ufite impapuro z'umweru mu ntoki ze. Imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu na terefone mu ntoki kandi ufite n'agacupa k'amazi iruhande rwe.

Abantu benshi bicaye mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo bameze nkaho ari abayobozi bari mu nama imbere muri bo harimo umugore n'umugabo umugabo yambaye ikoti n'ishati ya pinki ndetse imbere ye hari agacupa k'amazi n'amakaye umugore nawe yambaye linete n'isaha ku kuboko n'agakote k'umukara.

Abantu benshi bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru, ab'inyuma bambaye imipira y'imihondo isa, ab'imbere na bo bambaye udupira tw'icyatsi kibisi dusa, impande yabo hari umupolisi wambaye indorerwamo z'amaso n'ingofero y'akazi ndetse n'idarapo ry'u Rwanda ku kuboko kwe ku ibumoso, bigaragara ko bakurikiye imbwirwaruhame.

Abantu benshi bakikije ameza, ayo meza arambuyeho igitambaro cy'umweru, bicaye ku ntebe zisa umutuku, bafite amazi imbere yabo, kuri ayo meza hateretse na mashine iri mu ibara ry'umukara. Bicaye mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, mbese bameze nk'aho bari mu nama.

Ifoto y'abantu bicaye ari batanu, bakikije ameza, ayo meza ariho igitambaro kiri mu ibara ry'umukara, imbere ya buri wese, hateretse agacupa k'amazi ndetse na arukoro yo gukaraba intoki, hari kandi umugozi w'umweru, inyuma yabo hari abantu benshi, bicaye na bo basa nk'aho bakurikiye inama.

Icyumba kinini cyane cy'inzu nini cyicayemo abantu bicaye bakikije bareba imbere basa naho bari mu nama bicaye ku ntebe zisize irangi ry'umuhondo abandi bicaye ku ntebe zisize irangi ry'umukara basa n'abakoze uruziga harimo ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe z'umutuku ziteye mu cyumba cy'amakaro, imbere yabo hari uducupa tw'amazi bafite kandi n'amakaramu mu ntoki n'amakayi bigaragara ko barimo barandika imbwirwaruhame ziri kuhavugirwa.

Abagabo babiri n'umugore umwe bicaye mu cyumba cy'inama gisize irangi ry'umweru n'umuhondo, imbere yabo hateretse uducupa dutandatu tw'amazi na malete y'umwe mu bari muri aba bantu. Umugore umwe afite imisatsi y'umukara irimo akagori k'umweru yambaye ikoti ry'umukara.

Umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ubururu n'isaha ku kuboko n'ingofero, ahagararanye n'undi mugore, wambaye ipantaro y'ubururu n'agapira kavangavanze, inyuma yabo hicaye undi mugabo n'umugore, inyuma yabo nanone hari imodoka, zisize amarangi atandukanye, imwe isize irangi ry'umuhondo, indi iry'umweru, indi iry'umutuku.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama gisize irangi ry'umweru gifite parafu isize irangi ry'umweru imbere yabo hari ameza ateretseho ururabo ndetse n'agakapu batwaramo mashine ayo meza arambuyeho igitambaro kirimo ibara ry'umweru n'utubara tw'umuhondo ku ruhande.

Abagabo batanu bari kumwe n'umugore umwe bicaye mu cyumba, imbere yabo hari ameza ateretseho, agacupa, k'amazi n'agacupa kaji, buri wese imbere ye hari mikoro imufasha kurangurura ijwi, inyuma yabo hari umugabo uhicaye ufite kamera bisa nkaho arimo arafata ibiri kubera aho ngaho.

Ifoto igaragaza abantu bicaye mu nama basa n'abakurikiye umwe muri bo uhagaze wambaye rinete n'ishati y'umukara n'umweru, ku kuboko kwe yambaye isaha y'umukara, inyuma ye hicaye ingabo z'umutekano ndetse n'umugabo wambaye ingofero itukura n'abakecuru bateze ibitambaro mu mutwe, hirya yabo hari inzu iteye amarangi y'umuhondo yubakishije amatafari y'impunyu.

Icyumba k'inama kirimo abantu batanu, umwe yambaye ikanzu irimo amabara y'umukara n'umweru n'umugabo umuri impande wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'icyatsi kibisi. Imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umuhondo n'uducupa tw'amazi duteretse imbere ya buri muntu, bigaragara ko bari mu nama.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bicaye mu cyumba cy'inama, bombi bambaye amakote, imbere yabo hari indangururamajwi, bicaye ku meza harimo ibara ry'umutuku, intebe bicayeho ziri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'inama gisize irangi ry'umweru, cyicayemo abantu bigaragara ko bari mu nama, imbere y'abo bantu hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'utwa ji, umwe mu bicaye muri abo bantu afite imashini imbere ye, ndetse n'amakayi barimo barandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abagabo bane bari mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, urugi rw’icyo cyumba rusize irangi ry’umukara, batatu muri bo baricaye, umwe yambaye ishati y’umukara, undi yambaye ishati y’umuhondo, undi yambaye ishati y’umweru, imbere yabo hari amakayi ndetse n'agacupa k'amazi, undi arahagaze afite ikaramu mu ntoki.

Abantu batatu bahagaze basa n'abari gukoma amashyi bigaragara ko bameze nk'abari mu nama imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro cy'umweru hejuru y'ameza hariho impapuro ndetse n'amatelefone yabo inyuma yabo hari abandi bantu benshi bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu nabo bahagaze bari gukoma amashyi.

Abagabo batatu bari mu nama, umwe yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru n'isaha ku kuboko, imbere ye hari mashine n'indangururamajwi n'agakapu k'umukara, undi yambaye ishati y'umweru na mashine imbere ye, undi yambaye ishati y'ubururu na mashine imbere ye n'agacupa k'amazi, bombi bicaye ku meza asa umutuku.

Abagabo babiri umwe n'umuzungu undi ni umwirabura, umwe afite igitabo gifite ibara'icyatsi kibisi arimo arasoma, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati itukura n'amarinete mu mutwe, imbere y'umuzungu hari agacupa k'amazi, inyuma ye hari undi muzungu w'umukobwa wambaye rinete n'ikanzu y'amabara ufite nawe agacupa k'amazi.

Abagabo babiri bicaye mu nzu ifite igikuta, gifite irangi ry'ubururu, umwe yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umweru n'isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse imbere ye hateretse agacupa k'amazi, undi yambaye ishati y'umweru na we imbere ye hateretse agacupa k'amazi, bigaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakurikiye inama ndetse imbere yabo hari amamashini, telefone ndetse n'indangururamajwi, hari kandi idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba, umwe yambaye ingofero undi yambaye rinete n'ishati y'ubururu, undi nawe yambaye rinete n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, imbere yabo bombi hateretse mashine ndetse inyuma ya mashine hari n'agakapu k'umweru, bicaye bameze nk'abakurikiye ikintu runaka.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, kuri icyo cyapa handitseho amagambo ari mu cyongereza. Gifite kandi akandi kapa ku ruhande ka simukadi n'ikiganza gicigatiye terefone, irimo akanyenyeri, rimwe, kabiri, gatanu, urwego.

ifoto igizwe nibara ry'ubururu n'umweru yanditseho amagambo ari mw' ibara ryubururu numweru ndetse numuhondo ayo magambo arasobanurira abantu ibyerekeranye no kwishyura imisoro y'imitungo baba baraguze mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Icyapa cy'ubururu kirimo ibara ry'umweru, muri iryo bara ry'umweru harimo akabara k'umuhondo karimo akabazo, hirya yaho handitse amagambo avuga ngo "umusoro ku mutungo utimukanwa, umenyekanishwa ryari?" bigaragara ko iki cyapa kiri kuyobora abantu bishyura imisoro.

Abantu benshi bicaye imbere ya kompiyuta z'imikara zifite imigozi itatu izicometseho, bicaye ku meza akoze mu mbaho n'intebe zabo zikozwe mu mbaho, zifatishije utwuma tw'umukara. Basa nk'aho bari mu bizamini cyangwa ikindi kintu cy'ikoranabuhanga.

Umunara muremure ,ugizwe n'amabara y'umweru hejuru ,hagati umutuku, hasi umweru ,uri mu kirere ,ufite ibisinga birebire bizengurutse hejuru ,ugiye uriho utuntu tumeze nk'amatara amurika.

Umunara muremure uzitije ibyuma, uri mu mabara y'umutuku n'umweru, impande yawo hari akazu gasize irangi ry'umuhondo gatwikirije amabati y'ubururu, hirya yaho hazengurutswe n'ibiti birebire biteye impande y'uwo munara biwukikije. Impande y'ako kazu hari abantu bahahagaze bigaragara ko bavuye kuri uwo munara.

Umugabo wambaye ishati itukura irimo ubudomu bw'umweru yicaye imbere ya mashine ari kuyikoresha, imbere muri mashine handitsemo ijambo rivuga ngo Irembo, imbere ye kandi hari ibikoresho bigiye bitandukanye harimo miritipurize bacomekaho imigozi y'amashine ndetse na telefone n'agakapu k'umukara bigaragara ko ari gukoresha serivisi z'Irembo.

Umugabo wambaye rinete wambaye n'umupira w'umweru n'isaha ku kuboko y'umukara, ufite mikoro iri mu ibara ry'umutuku, imbere ye hateretse uducupa tubiri tw'amazi na terefone ku ruhande rwe hari igikapu kiri mu ibara ry'umukara. Ari kutwereka icyapa cyanditseho Irembo kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ngo Byikorere.

Abagabo babiri bambaye udupfukamunwa bafite machine mu ntoki, umwe yambaye ishati y'ubururu undi yambaye ikoti ry'umuhondo. Afite kandi umugozi wa mashini uri mu ibara ry'umukara. Umwe afite agakapu ku rutugu na ko karimo ibara ry'umukara, yambaye kuteri zifite ibara ry'umweru.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo serivisi nshya ku rubuga Irembo govu, hasi y'ayo magambo hari amagambo avuga ngo ikigo gitanga izi serivisi ni minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'andi yanditse mu ibara ry'ubururu ariko ari mu kabara k'umuhondo, kuri icyo cyapa kandi hari intebe wicaraho iri mu ibara ry'umukara, hepfo yaryo hari ahantu hari aho wasikanira telefone.

Umunara muremure uri mu ibara ry'umutuku n'umweru, impande yayo haranyara ibisinga ebyiri z'amashanyarazi, munsi y'izo nsinga harimo utuzu twubakishije amabati ndetse duteye n'umucanga, dufite urugi rw'amabati, impande y'izo nzu hari ibiti birebire.

Inzu nziza cyane za etaje, imwe iri iburyo indi iri ibumoso, impande y'iyo nzu iri ibumoso hari amatente ahari ndetse agizwe n'amabara y'umutuku n'umweru, muri ayo matente hicayemo abantu bigaragara ko baje mu birori.

Icyumba kirimo ibikoresho bigaragara nkaho ari ibikoresho by'Irembo, hicayemo umuntu wambaye ingofero iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'ishati y'umukara n'umweru. Afite mashine imbere ye arimo aratayipinga, iruhande rw'iyo mashine hari imashini ifotora munsi yayo hari akantu gateretseho iyo mashine harimo pubeli iri mu ibara rya pinki.

Umunara muremure usize irangi ry'umweru hejuru hasi usize irangi ry'umutuku, uwo munara uzengurutswe n'ibyuma bigiye bifite senyengi hejuru, inyuma y'ibyo byuma hahagaze abagabo bane bambaye amajiri y'icyatsi kibisi bigaragara ko hariho nk'icyapfuye kuri uwo munara baje kugikora.

Ahantu hicaye abantu benshi bameze nk'abari mu ndege cyangwa se mu modoka, umuntu uri imbere yabo yambaye agapira kajya gusa oranje, afite imashini y'umweru mu ntoki iriho ibyapa inyuma, impande ye hari undi mwana uhicaye wambaye agapira gasa umweru nawe ufite mashine y'umukara mu ntoki, bigaragara ko bari ku rugendo.

ifoto igaragaza ipiloni rirerirere cyane rifite insinga kandi impande yaryo hari amazu asize irangi ry'umuhondo iruhande rwaryo hari inzu iteye karabasasa y'umukara n'indi ngufi kuri iyo ngiyo iteye karabasasa y'umukara ifite n'uturangi tw'umweru mu mpande.

Akayira k'abanyamaguru iruhande rwa kaburimbo, karimo abantu babiri umuhungu n'umukobwa, umwe ahetse agakapu mu mugongo, undi afite ikote ku rutugu, ruguru yabo hari izina ndetse n'amapoto agiye ariho imigozi y'amashanyarazi, ijyana imiriro mu baturage hari kandi inkuta zubakishije amabuye.

Ipironi rirerire rifite insinga z'amashanyarazi, impande yaryo hateye ibiti birebire by'icyatsi kibisi, turabona kandi umusozi uri hakurya y'iryo pironi, na wo uriho amazu n'ibiti by'icyatsi kibisi.

Umunara muremure uteye ahantu mu gihuru, inyuma yaho hari ishyamba rirerire ry'inzitane, imbere yawo hari agati k'agapapayi gato katarakura n'igiti kirekire kiri imbere ya jaride y'indabo.

Inzu nini cyane iri mu bwoko bwa etaje itaruzura, ikikijwe n'amabati. Impande yayo hari ipoto ifite insinga z'amashanyarazi ndetse n'igiti kinini, gifite amababi y'icyatsi kibisi. Iruhande rwabyo hari igipangu kiri mu ubwoko bw'impunyu.

Umukobwa w'inzobe wambaye ingofero imurinda impanuka y'umweru, ufite imisatsi miremire, yambaye ijire iri mu ibara ry'icyatsi cyerurutse. Yambaye n'ikote ry'amaboko maremare. Ari ahantu hari igikuta gifite irangi ry'umuhondo.

Inzu ya etage isize irangi ry'umuhondo ifite porutayi isize irangi ryicyatsi kibisi. Imbere yayo hari imodoka isize irangi ry'umukara ndetse na moto ihetse umugenzi wambaye agasharupe k'umuhondo. Iruhande rw'iyo moto hari ipoto ifite itara rimurikira abagenzi ndetse n'indi modoka isize irangi ry'umukara.

Amapoto abiri ariho insinga z'amashanyarazi, impande yayo hari igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo. Imbere yayo hari igipangu gikoresheje amatafari y'impunyu, muri icyo gipangu kandi harimo amazu abiri y'amabati.

Umunara muremure usize irangi ry'umweru n'umutuku ukikijwe n'ibyuma ndetse mo imbere hagiye harimo ibyuma bifite ibara ry'ubururu n'umweru, inyuma y'uwo munara hari amazu yubakishije amatafari y'impunyu ndetse imwe muri ayo mazu isize irangi ry'umuhondo.

Umugore uhagaze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, imbere ye hateretse umufuka urimo ibintu, impande ye hari indobo, iri mu ibara ry'umutuku, hirya ye hari ishyamba rinini, impande y'iryo shyamba hari ifoto iriho insinga z'amashanyarazi. Impande y'iryo poto hari icyapa kiyobora abagenzi.

Ipoto rirerire rifite insinga z'amashanyarazi ziyobora umuriro mu ngo z'abaturage, impande yaryo hari rigore, iyo uvuye kuri iyo rigore ujya ku muhanda wa kaburimbo, uriho amatara amurikira abagenzi, ndetse n'ibiti birebire biteye impande y'umuhanda. Hirya y'iryo poto kandi hari igikuta cyubakishije amabuye, gifite porutaye ifite urugi rw'ubururu.

Iyi foto iragaragaza igipangu gikikije inzu iteye irange ry'umweru, icyo gipangu kikaba gikoze mu matafari y'impunyu. Impande y'icyo gipande hari ibiti birebire bifite n'amashami kandi hahagaze ipoto itwara amashanyarazi, impande yayo hari umuhanda wa kaburimbo urimo inyuguti kane, icyenda, sa, ta.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda bari kugenda, impande yabo hari inzu nini cyane ya etaje isize irange ry'umuhondo, imbere y'iyo nzu hari ipoto y'amashanyarazi hamwe n'insinga z'amashanyarazi zigiye zitanga umuriro, hari kandi n'igikamyo mu muhanda gisize irangi ry'umweru.

Amapoto ane ahagaze mu muhanda afite insinga z'amashanyarazi zigenda ziyaturukaho zishyira umuriro mu baturage, munsi yayo hari abantu bahagaze munsi y'ayo mapoto, hirya yayo hari ibihuru n'ibiti bigiye biyakikije.

Inzu nziza iseze irange ry'umuhondo, hejuru ku mabati yayo hariho akarangwe k'ubururu, turabona kandi insinga z'amashanyarazi ziyambukiranya zigenda, iruhande rwayo hari urutsinga rw'amashanyarazi na rwowo ruyigemurira umuriro.

Ipoto y'amashanyarazi iri iruhande rw'umuhanda ifite insinga z'mashanyarazi, hepfo yayo hari umugabo utwaye igare wambaye agapira gatukura n'ipantaro ya kaki, ruguru y'uwo mugabo hari icyapa kimurika umuhanda nimero y'umuhanda umugabo agezeho agenda.

Umugabo uri kuvugira kuri telefone wambaye agapira k'umukara gafite ibara ry'umweru mu gatuza n'ipantaro y'umukara ifite ibara ry'umweru mu mpande, uhetse igikapu cy'umukara, ari mu kayira k'abanyamaguru, hirya yiwe hari ipoto ndende cyane iriho insinga z'amashanyarazi, iteye mu byatsi.

Icyapa cya mpande eshatu kigizwe n'amabara y'umutuku n'umweru, mo imbere hashushanyijemo umusaraba, kiri impande y'ipoto zifite insinga z'amashanyarazi ziteye impande ya kaburimbo, biragaragara ko kitwereka ko hafi aha hari ivuriro.

Ibiti bitoya by'imikindo biri mu bihoho byabyo biteretse mu mifuka y'umweru, hirya yabyo hari izindi mbuto z'ibiti na zo ziri mu bihoho, bigaragara ko ahantu biri ari muri pipinyeri aho bororera imbuto n'ibiti.

inyubako yicayemo abantu muri koridoro higanjemo abanyururu bambaye imyenda yo mu ibara ry'iroza. Iyo nyubako yubakishije amatafari y'impunyu, hejuru ku gisenge hariho amabati, inyuma y'abantu bicaye hari amabuye agize igikuta cyaho.

Inzu nziza isize irangi ry'umuhondo hirya yayo na none hari indi nzu yubakishije amatafari y'impunyu ndetse isakaje amabati ari mu irange ry'umutuku, hejuru y'iyo nzu hari ibigega birimo ibara ry'umukara.

Imodoka isize irangi ry'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ritukura avuga ngo imbangukiragutabara ibitaro bya CHUK, impande y'iyo modoka hari inzu yubakishije amatafari y'impunyu hari kandi na jaride zigizwe n'ibiti ndetse na pasiparumu.

Abagabo babiri umwe n'umuzungu undi ni umwirabura, umuzungu yambaye rinete n'agatabariya k'umweru n'umwirabura yamba agatabuya k'umweru, bombi bicaye bahanze amaso imbere muri machine, ikiganza cy'umuzungu gicigatiye imbeba ibafasha gukontorora ibiri muri machine, impande yabo hateretse akadobo k'umweru bashyiramo imyanda.

Inzu nziza yubakishije amatafari y'impunyu, isakaje amabati y'umutuku, isize irangi ry'umuhondo, yicayemo abantu bigaragara ko baje kwaka serivisi nk'izo kwivuza, imbere yayo hari jaride iteyemo ibiti birebire cyane by'imikindo, hino y'iyo nzu hari igikuta cyubakishije amabuye y'umweru ndetse n'umukara.

Inzu ebyiri zegeranye imwe ni ndende indi ni ngufiya, zisakaje amabati y'ubururu zikoze mu matafari y'impunyu, imbere yazo hari ibyapa bibiri, kimwe cyanditseho Kabgayi hosipito, ikindi cyapa gifite udufureshi tw'umutuku, tuyobora ibinyabiziga aho biri kujya, imbere yazo hari umuhanda wa kaburimbo n'ipoto isize irangi ry'ubururu n'umweru.

Urubaraza rw'inzu rwubakishije amapave runatwikiriye hejuru, impande yarwo hari igikuta cy'iyo nzu cyubakishije amatafari y'impunyu, imbere y'urwo rubaraza hari jaride y'indabyo, igizwe na pasiparumu muri iyo pasiparumu hateyemo ipoto iriho amatara amurikira abagenzi mu muhanda.

Ku bitaro bya Kacyiru haparitse imodoka ebyiri z'umukara, hari icyapa cyanditseho Isange one stop center. Aha ngaha iyo ufite ikibazo waba wahohotewe ndetse n'ibindi bijyanye na byo urahagana bakagufasha.

Urubaraza ruri hagati y'amazu abiri. Inzu ya mbere isize irangi ry'umweru. Iya kabiri isize irangi ry'umuhondo. Ku gikuta cy'iyo nzu ya kabiri mu mpande hari akapa k'umutuku. Imbere y'ako kapa k'umutuku hari akandi kapa k'ubururu kananditseho amagambo ndetse kanerekana icyerekezo umuntu aba arikujyamo. Bigaragara ko hameze nk'aho ari ari kwa muganga.

Inzu nziza yubakishije amatafari y'impunyu, isize irangi r'umuhondo isakaje amabati y'umukara, imbere yayo harapavomye. Hari kandi itara rimurikira abagenzi ku muhanda, impande y'iryo tara hahagaze umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara. Imbere gato hari imodoka zigiye zisize amarangi y'umukara ndetse n'indabyo z'imikindo zigiye zitatse ku muhanda.

Inzu nini cyane imeze nka hoteri isize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, porotaye yayo ibikuta byayo bifite irangi ry'icyatsi kibisi. Imbere y'iyo nzu hari jaride nini cyane ya pasuparumu, muri iyo jaride hateyemo ibiti birebire cyane by'inganzamarumbo bifite amababi y'icyatsi kibisi.

Urubaraza rw'inzu rutwikirije amabati, imbere yarwo hateye pasiparumu n'indabyo. Muri izo pasiparumu harimo akapa k'icyatsi kibisi kagaragaza ko abantu ariho bahurira iyo haje ikibazo cy'inkongi y'umuriro.. Hakurya y'izo pasiparumu hari urundi rubaraza ruri imbere y'inzu zisize irangi ry'umuhondo, zisakaje n'amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugaragaza rompuwe, muri iyo rompuwe hari imodoka isize irangi ry'umukara isa naho igiye gukata muri iyo rompuwe nyine. Hino ya ho hari inzu isize irange ry'umuhondo, kandi ifite amapave hasi, ndetse na jaride iri mo pasuparume.

Umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'itabuririya y'umweru n'ikanzu irimo amabara y'umutuku ndetse n'iy'icyatsi kibisi wambaye ga mu kuboko kumwe kw'ibumoso ari gutera urushinge umurwayi wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ishati y'umukara n'isaha ku kuboko.

Imodoka ziparitse iruhande rw'amazu yubakishije amabuye, afite igisenge gifite amabati y'umutuku. Muri izo modoka imwe ifite irangi ry'ubururu indi isize irangi ry'umutuku, izindi zisize irangi ry'umweru. Iruhande rwazo kandi hari jaride irimo ibiti binini ndetse hari n'icyapa cy'ubururu n'icy'icyatsi kibisi.

Inzu nini cyane nziza ya etaje isize irangi ry'umweru, imbere y'iyo nzu hari jaride nziza cyane iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari kandi abantu babiri barimo barahanyura umwe ni uumugore umeze nk'uri guheka umwana, undi ni umugabo uhitse igikapu kiri mu ibara ry'umukara, iruhande rw'iyo nzu hari itara rirerire cyane ryo ku muhanda rimurikira abagenzi.

Inzu nini cyane isize irangi ry'umuhondo ifite igisenge cy'amabati y'umukara imbere y'iyo nzu haparitse amamodoka menshi cyane ndetse hari n'abantu iruhande rw'iyo nzu hari indi nzu nayo isize irangi ry'umuhondo n'igisenge cy'umukara ndetse imbere yayo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'icyatsi kibisi ubururu n'umuhondo hateye na jalide irimo igiti kinini cyane cy'umukindo.

Ibaraza riri hagati y'inzu ritwikiriye inzu yo ku ruhande isize irangi ry'umuhondo indi ifite udutafari tw'impunyu impande yiyo nzu udutatafari tw'impunyu hari ikigega kiri mu ibara ry'umukara imbere gato y'izo nzu hari izindi nzu zisize irangi ry'umuhondo.

Inzu isakaje amabati asa ubururu, yubakishije amatafari y'impunyu, impande yayo hari abantu batatu, umwe wambaye umupira w'umutuku, undi wambaye umupira w'icyatsi kibisi. Impande yayo kandi hari ravabo yubakishije amakaro. Impande y'iyo ravabo hari umwana wicaye mu kagare, wambaye umupira w'ibara ry'umuhondo n'agasharupe ku maguru, bigaragara ko yavunitse.

Umugabo uhagaze areba imbere ufite amatwi manini n'umusatsi wa natirere w'inzobe, wambaye ikote ririmo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umweru, inyuma ye hasa n'ahateye irangi ry'umuhondo.

Abanyururu benshi bicaye imbere y'abacamanza, abacamanza bambaye amakanzu y'imikara, abanyururu bambaye amashati ndetse n'amakabutura ari mu ibara rya roza, bose bambaye n'udupfukamunwa bicaye bategereje bameze nk'abagiye kuburanishwa.

Abantu benshi bari muri kureri y'umukara bahagaze basa n'abakurikiye inama, imbere hari umugore wamanitse agatoki uhetse umwana, wambaye n'agashati karimo amabara y'umukara n'umweru. Inyuma y'uwo mugore hari umugabo wambaye ingofero y'umweru n'ishati y'umweru irimo n'ikoti ry'umukara.

Abanyururu bane, bicaye mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, ku ntebe z'imbaho, bambaye imyenda y'iroza, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikanzu ndende nini, iri mu ibara ry'umukara, imbere hariho akabara k'umweru, biragaragara ko uyu mugabo ari umucamanza.

Ifoto y'ikirangantego cy'inkiko gacaca, hejuru kuri iyo foto handitseho amagambo avuga ngo "ubutabera bwunga." Munsi y'ayo magambo hari igiti kinini cy'inganzamarumbo, munsi y'icyo giti hari abantu bahicaye bambaye imyenda y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi. Hasi y'icyo kirangantego harimo ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyapa cy'umweru kiriho ibirangagantego by'Igihugu, cyanditseho amagambo ngo "Inkiko Gacaca, ubutabera bwunga", imbere yacyo hari abantu bahagaze, bambaye imyenda y'imyeru, basa n'abari kubyina Kinyarwanda.

Umugabo w'ibigango umeze nk'umucamanza, wambaye ikanzu imeze nk'iy'abacamanza iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara ndetse yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu na karuvati irimo ibara ry'umutuku n'utudomo tw'umweru.

Abanyururu benshi bicaye ku meza ateye irangi ry'umuhondo, imbere yabo hari agakapu gasa umuhondo, bakikijwe n'abandi bantu bari inyuma yabo bimeze nkaho baje mu rubanza kuburana, inyuma yabo hari intebe ziri mu ibara ry'umweru.

Mu cyumba cy'inama hahagaze abantu bane harimo: Abagore babiri bambaye amakanzu, ari mu ibara ry'iroze, n'abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara, ariho n'ibara ry'umweru, imbere yaho hateretse ameza afite ibara ry'umweru, arambitseho ibitabo na mudasobwa, ndetse n'icupa ry'amazi.

Umugore uri mu cyumba gisa umuhondo, wambaye ingofero y'umukara ifite akabara k'umuhondo, afite imisatsi miremire, yambaye rinete mu maso, kandi yambaye ikote ry'umutuku ririmo ibara ry'umuhondo n'iry'umukara; imbere y'iryo kote yambariyemo akandi gashati gafite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ingabo z'igihugu zambaye imyenda ya gisirikare n'ingofero ziri mu ibara ry'umutuku, hepfo yazo hicaye abantu bameze nk'abagororwa, bambaye amashati ari mu ibara ry'icyatsi kibisi. Inyuma kuri icyo cyumba barimo, hari urugi rukozwe muri giriyaje isize irangi ry'umukara.

Abanyururu b'abagore bambaye imyenda y'iroza bicaye ahantu ari benshi, bane muri bo b'imbere umwe yambaye amadarubindi ndetse yitangiriye itama, umukurikiye yambaye agasharu ke k'umuhondo mu ntoki n'isaha ku kuboko, ukurikiye uwo wambaye agasharupe yambaye ibaji ifite ibara ry'ubururu n'agakomo ku kuboko, umukurikiye na we ni umunyururu munini ubyibushye wambaye isaha ku kuboko bigaragara ko baje mu nama.

Umugabo wicaye mu ntebe, yambaye rinete n'imyenda ijya gusanga nk'iy'abasirikare, hirya ye hari akabati gasize irangi ry'umuhondo ndetse n'intebe yicayemo ziri mu mabara y'umuhondo, ari mu nzu isize irangi ry'ubururu.

Umugabo w'umunyururu wambaye imyenda y'iroza, uhagararanye n'undi mugabo wambaye igikanzu kinini kirimo ibara ry'umukara n'utubara tw'umweru ku kuboko, bahagaze imbere y'ameza bunamye bameze nk'abari gusinya, imbere yabo hahagaze abandi bagabo bambaye imyenda y'imikara y'ibikanzu binini bigaragara nk'aho aho hantu bari kuburanisha.

Icyapa cy'ubururu n'umweru cyanditseho amagambo ngo kwibuka makumyabiri na gatanu, twibuka twiyubaka cyanitseho kandi ngo urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa gereza ya Nyamagabe.

Umugabo ukuze, wambaye rineti n'ikote ry'ubururu n'agashati k'umweru mo imbere, ari ku ifoto iri ahantu hasa umukara, hejuru hari akabara k'umutuku handitseho amagambo ko akenewe kubera jenoside yaba yarakoze.

Inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro, iri kugaragaramo umuriro mo imbere, imbere yayo hari ba kizimyamwoto babiri bambaye imyenda y'akazi irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, barimo barazimya umuriro, impande y'iyo nzu hari indi nzu ifite irangi ry'umuhondo.

Umugore uteze agatambaro k'umukara wambaye umupira n'igitenge na kamambiri z'bururu, ari impande y'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, bombi bari mu muhanda wa kaburimbo ufite ibyuma ku ruhande bigiye bisize irangi ry'umutuku n'umukara, hakurya y'ibyo byuma hari undi muhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya polisi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, imwe isize irangi ry'umweru, indi isize irangi ry'umukara, imbere yazo hari umupolisi wambaye imyenda y'abapolisi, hirya y'izo modoka kandi hari amatara amurikira abagenzi ku muhanda ndetse n'amapoto agiye ariho imigozi y'amashanyarazi, hari icyapa kandi cyanditseho ngo mirongo itandatu.

Inzu nini nziza cyane ya etaje iteye irange ry'umuhondo, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, imbere yayo haparitse imodoka ya polisi isize irange ry'umweru n'umukara, hasi imbere y'iyo nzu hapavomesheje amapave.

Abapolisi bambaye imyenda y'akazi, bari imbere ya moto y'umweru mu muhanda w'igitaka, imbere yabo hari imodoka y'umweru iri iruhande rw'akapa gatukura, impande yabo hari umuhanda wa kaburimbo, uwukomeje gato ubona inzu ya etaje isize irangi ry'umuhondo.

Akayira k'abanyamaguru kubakishije amapave impande ya kaburimbo, harimo umugore ufite agakapu kajya gusa umutuku, impande ye hahagaze umupolisi wambaye imyenda y'abapolisi; ku ruhande rw'ibumoso bw'uwo mugore hari abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umutuku ndetse afite n'amverope mu ntoki, undi yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Urukuta rusize irangi ry'umweru, kuri urwo rukuta hometseho ibigozi binini birebire, bitambika bijya kuri kizimyamwoto ebyiri ziri kuri urwo rukuta. Ibyo bigozi biri mu ibara ry'umutuku. Kuri ibyo bigozi kandi hari agapapuro kari mu ibara ry'umweru.

Kizimyamwoto igizwe n'ibara ry'umutuku harimo amabara y'ubururu umuhondo ndetse n'umweru ifite agafuniko k'umuhondo iteretse hasi, mpande y'igikuta giteye irangi ry'umuhondo.

Ifoto itwereka kizimyamwoto iri mu ibara ry'umutuku, ifite imigozi y'umutuku n'ubururu. Inyuma yayo hari amabase na yo asize irangi ry'umutuku. Hirya yayo mabase hateretse ibikarito.

Umugore wambaye indorerwamo z'amaso ni'shati y'ubururu, ifite agapesu k'umuhondo, n'ijipo y'ubururu ndetse n'agakomo ku ntoki n'akandi mu ijosi. Yicaye ku ntebe ifite imifariso y'umweru, impande ye hari igishushanyo k'ikibumbano, kikoreye.

Abagabo babiri bicaye mu cyumba gisize irangi ry'ubururu kiriho n'ibirangantego by'igihugu cy'u Rwanda umwe yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umweru n'undi yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umweru imbere yabo hari indangururamajwi ndetse n'idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara y'icyatsi kibisi umuhondo ndetse n'ubururu.

Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda paul kagame yambaye ingofero iri mu ibara ry'umukara n'amarinete n'umupira w'amaboko maremare uri mu ibara ry'umweru ku ijosi hariho ibara ry'ubururu umukara ndetse n'umutuku ari imbere y'imbaga y'abaturage bigaragara ko ari ifoto bafashe ari kwiyamamaza.

Umukuru w'Igihugu cyacu Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yambaye rinete n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, ari kumwe na Madamu Jeannette Kagame, wambaye ikanzu irimo amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru n'isaha ku kuboko. Inyuma yabo hari umumama wambaye urunigi mu ijosi n'agapira k'ubururu ndetse n'umukenyerero w'umutuku.

Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yambaye rinete n'umupira w'amaboko ufite ibara ry'umukara kandi ku ijosi hariho akabara k'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye rinete n'ishati y'ubururu n'akajaketi k'umukara, inyuma yabo bombi hari ibyapa bigiye bimanitseho umukuru w'igihugu cyacu, bigaragara ko yari ari kwiyamamaza.

Umugabo n'umugore, umugore wambaye imikenyero n'agapira k'ubururu, umugabo wambaye ingofero ya kisilamu n'ikoti ry'umukara n'ikanzu y'umweru, bose bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bazamuye ukuboko ku iburyo, bigaragara ko barimo bararahira, imbere yabo hateretse indangururamajwi.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi ya natirere, wambaye amaherena y'umweru, n'agashati k'umutuku, n'akantu k'umukara hasi n'isaha ku kuboko. Afite mikoro ifite ibara ry'umweru hejuru n'iry'umukara. Bigaragara ko arimo aratanga imbwirwaruhame.

Umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi ya natirere ikaraze, wambaye rinete n'amaherena ku matwi, wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu n'isaaha ku kuboko n'agashapure, inyuma ye hari ishusho igaragaza ibara ry'ubururu n'umweru.

Umugabo w' ibigango wicaye areba imbere, yambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, impande ye haridarapo, rifite umwirasire wizuba, uri mu ibara ry'umuhondo.

Abagabo batatu n'umugore umwe bari mu nama, bose bambaye amashati y'imyeru asa. Umugabo umwe arahagaze, afite mikoro mu ntoki isa umukara, imbere yabo bombi hari uducupa tw'amazi turi mu ibara ry'ubururu.

Umugabo muremure w'igikara uhagaze wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, imbere ye hari mikoro bigaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hicaye abandi bantu ndetse bakikijwe n'ibyapa bigiye bimanitseho ifoto y'uwo mugabo, bigaragara ko uyu mugabo asa nkaho ari kwiyamamaza.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame, yambaye rinete na kositimu n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, ari kumwe na nyakubahwa Jeanette Kagame na we wambaye rinete n'ikanzu irimo amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'isaaha ku kuboko, inyuma yabo hari umudamu wambaye urunigi mu ijosi n'agapira k'ubururu ndetse n'imikenyero y'umutuku n'umweru.

Abagore babiri umwe ufite imisatsi isutse wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, undi ufite imisatsi ya natirere wambaye nawe umupira w'umweru n'ijipo y'umukara. Basa n'abari komeka ikintu cy'icyapa ku gikuta, iruhande rwabo hari indobo ifite irange ry'umweru.

Abantu benshi bicaye bakikije abandi basa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hari abagabo batatu bahagaze, umwe yambaye ikote isa n'ipantaro by'umweru, undi yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki, undi yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi n'isaha ku kuboko.

Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda wa Perezida Paul Kagame, yambaye rinete n'ishati y'umukara, ari kuramukanya n'umusaza wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru mo imbere. Hirya yaho hari abantu babashungamirije harimo umugore wambaye ikanzu uri kubakomera amashyi.

Ifoto igizwe n'ibara ry'umutuku ku ruhande, iry'umuhondo hagati, n'iry'icyatsi kibisi, hagati mu ibara ry'umuhondo hashushanyijeho igishushanyo kiriho ifoto y'inuma hejuru, cyanditseho n'amagambo ku mpande zacyo ndetse no ku mutwe.

Imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa taxi ikinguye urugi, impande y'iyo modoka hari umugabo wambaye ingofero y'umweru n'agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu n'inkweto za kaki. Iparitse imbere y'izindi modoka, na zo ziri mu bwoko bwa taxi, inyuma y'iyo modoka ya taxi hari iyindi modoka ndende izisumba zombi yanditseho yahoo car, impande y'iyo modoka yahoo hari urujya n'uruza rw'abantu bigaragara ko barimo baratega imodoka.

Imodoka ya Toyota iteye irangi ry'umweru, ifite pulake ya RAb6344R, impande yayo haparitse igare rifite umufariso w'icyatsi kibisi, imbere y'iyo modoka hari igikamyo gihetse imifuka ndetse impande y'iyo mufuka hahagaze abagabo babiri, bambaye ibisurubeti by'ubururu n'agapira k'umuhondo mu imbere.

Umuhanda wa kaburimbo urimo motomodoka isize irangi ry'ubururu, impande y'iyo motomodoka hari umumotari wambaye ingofero imurinda impanuka uhetse igikarito, hirya y'uwo mu muhanda hari ibiti birebire cyane bikikijwe na supaneti iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Imodoka y'ivatiri isize irangi ry'umweru hasi hari akabara k'umuhondo. Inyuma yayo hari imitaka ya Eyateri, hicayemo umucuruzi w'amayinite wa MTN wambaye itaburiya y'umuhondo. Iruhande rwayo hari indi modoka y'ivatiri igaragara igice na yo isize irangi ry'umweru.

Imodoka y'igikamyo inyuma ifite inkingi z'ibyuma, impande yayo hari umuntu utwaye igare wambaye ingofero y'ubudodo n'ikoti n'ipantaro bya kake, imbere yayo gato ku ruhande rwo hirya hari undi muyonzi uhetse umugenzi wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, ucigatiye telefoni mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo y'igiheri urimo umuntu utwaye igare uhetse amakazu yatatu ari mu ibara ry'umutuku ahambirije umukoba impande ye hari umunyamaguru wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru uri kuvugira kuri telefone hirya y'aho hari amazu ateye irangi ry'umuhondo n'abamotari baparitse imbere y'ayo mazu iruhande rw'umuhanda.

Abamotari benshi bambaye kasike z'imihondo n'amajiri arimo ibara ry'umuhondo n'ubururu, baparitse hagati y'amazu asize irangi ry'umuhondo, impande yabo hari imitaka ibiri, umwe wa MTN uri mu ibara ry'umuhondo n'undi wa Airtel uri mu ibara ry'umutuku, imbere yabo hari icyapa cy'umuhondo cyanditseho Papeteri amega.

Moto modoka y'ubururu itwikirije shitingi y'umweru hejuru ikinguye urugi. Irimo umugabo wambaye ishati ya makarokaro ndetse n'ipantaro y'umukara. Hakurya yayo hari ibiti birebire, impande y'ibyo biti hari supanete ihazitije bigaragara ko aho ahantu habera igikorwa runaka.

Imodoka y'umweru itwikirije shitingi y'umweru, hejuru ya shitingi yicaye umuntu wambaye agapira ka kaki ucigatiye terefoni mu ntoki, ihetse kandi ibintu bimeze nk'ibyuma bizirikishije ikiziriko. Impande yayo hariho umumotari uhetse umugenzi, bombi bambaye kasike y'umutuku umugenzi nawe yambaye imyenda y'umweru n'agakapu k'umukara.

Imodoka ya Rirco, isize irangi ry'icyatsi kibisi n'umweru, iruhande rwayo hari umunara muremure ndetse n'itara rirerire rimurikira abagenzi, impande y'iryo tara hari akapa k'ubururu kariho agakoreshi kerekana aho ibinyabiziga bigomba kunyura.

Imodoka nini cyane isize irangi ry'umutuku, kuri iryo rangi kandi hari igishushanyo cy'igisimba gifite irangi ry'umuhondo. Impande y'iyo modoka hari umugenzi uri kugenda n'amaguru kandi hari n'igare ririho umuntu, hirya yayo hari ibiti birebire binini biteye ku ruhande rw'umuhanda.

igikamyo gifite irangi ry'ubururu bwerurutse gihetse ibintu bitwikirije shitingi y'umukara ihambirije imikoba Impande ya cyo hari inzu ifite amadirishya n'imiryango bisize irangi ry'icyatsi kibisi. Imbere ya cyo hari abamotari bari mu muhanda n'icyapa kimanitse ku nzu cy'umuhondo kiriho amacupa ya pirimusi.

Ni moto iri kugenda mu muhanda, hari n'izindi moto, imwe iri kuzamuka iheretse mugenzi bambaye ingofero z'umutuku, hari n'izindi modoka ziri guturuka mu ruhande rwo haruguru.

Imodoka y'igikamyo isize irange ry'ubururu inyuma, imbere isize irange ry'umweru, ifunguye urugi munsi yayo hari imifuka ibiri irimo imitwaro ihateretse. Bigaragara ko barimo barayipakurura.

Imodoka ya kwasiteri iteye irangi ry'umweru iri mumuhanda iri kugenda, hirya yayo hari uruzitiro ruzitije supanete y'icyatsi kibisi kandi urwo ruzitiro rurimo ibiti birebire cyane, imbere y'iyo modoka hari moto ihetse umugenzi, iyo moto iteye irangi ry'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igikamyo gisize irangi ry'umweru hino yayo mu kayira k'abanyamaguru hari umuntu wambaye igisarubeti cy'ubururu n'agapira k'umutuku wikoreye umufuka w'umweru hirya y'umuhanda hari ibiti birebire cyane n'ipoto iriho itara rimurika ku muhanda inyuma y'icyo gikamyo hari abamotari batwaye abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igikamyo cy'umweru gifite ibyuma bitukura, inyuma yayo hari umugore wambaye agakanzu gatukura, inyuma y'uwo mugore hari indi modoka y'agakamyo gatoya ko mu bwoko bwa Toyota na ko k'umweru, iri imbere y'inzu y'ubucuruzi ifite inzugi z'ubururu, mo imbere muri iyo nzu hapakiyemo imifuka.

Imodoka y'igikamyo ifite irangi ry'umweru ku gitwe cyayo, inyuma ifite igikontineri cy'umuhondo hasi kizengurutswe n'akabara k'umutuku, iri mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'uwo muhanda wa kaburimbo hateye ibiti birebire, bizitijwe supaneti y'icyatsi kibisi, bigaragara ko aho hantu hari gukorerwa igikorwa runaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bijye bitandukanye harimo amagare motomodoka. Motomodoka iri imbere ifite irangi ry'ubururu handitseho imibare karindwi umunani umunani gatadatu gatatu gatu gatadatu kabiri gatatu hirya yayo hari inzu iriho icyapa bigaragara ko iri kwamamaza.

Igikamyo cy'umweru gitwawe n'umunntu wambaye agapira k'umukara n'umweru gihetse ubusa, iruhande rwacyo hari akandi kamodoka na ko k'umweru, hagati yabyo byombi harimo umumotari utwaye umugenzi. Hino y'icyo gikamyo haragaragara ikirenge cy'umuntu wambaye urukweto rurimo akabara k'umweru n'umukara n'ipantaro y'ubururu, n'agapira k'umuhondo ucigatiye telefoni mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari wambaye kasike y'umuhondo na jire irimo ibara ry'umuhondo n'ubururu, wambaye kandi ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru, impande ye hari umugabo uri mu kayira k'abanyamaguru uri gutambuka wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru, impande y'abo bantu kandi ku rundi ruhande hateye ibiti birebire cyane, imbere y'ibyo biti hari itara rimukira abagenzi.

Umuhanda w'amapave urimo urujya n'uruza rw'imodoka, imoto ndetse n'abantu b'abanyamaguru, ku mpande zawo haparitse abamotari bambaye amajiri ndetse n'ingofero zibarinda impanuka, impande z'uwo muhanda hari ibiti birebire bifite indabyo z'umutuku.

Imodoka y'igikamyo isize irangi ry'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru kubabakishije amabuye, impande y'ayo mabuye hateye indabyo zirimo ibara ry'icyatsi kibisi. iyi modoka yanditseho ngo Rwanda okisijene

Igikamyo cy'ubururu kiri muri kaburimbo, gihetse amakaziye y'inzoga atandukanye, harimo ay'umutuku n'ubururu ndetse n'imwe y'icyatsi kibisi yanditseho Heineken, impande yacyo hari umumotari uhetse umugenzi, inyuma yabo hari imodoka igaragara ikizuru cy'imbere na yo iri mu ibara ry'umweru.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda wa kaburimbo. Imodoka imwe irikunyura mu ruhande rw'iburyo indi ikanyura mu ruhande rw'ibumoso, imodoka imwe irasa umweru, umugabo wicayemo yambaye ipantaro y'umukara n'ikote ry'ubururu, indi ihetse matora nyinshi cyane, itwikirije ihema ry'ubururu.

Imodoka y'igikamyo isize irangi ry'umweru ihetse imizigo itwikirije ishitingi y'umuhondo, iri mu muhanda wa kaburimbo, hakurya yayo hari supaneti y'icyatsi kibisi izitiye ibiti, bigaragara ko aho hantu hari kubera igikorwa cy'inyubako runaka

Mu ihurizo ry'imihanda itatu ya kaburimbo irimo imodoka ebyiri zisize irangi ry'umukara n'umumotari uhetse umugenzi bombi bambaye kasike zitukura, hagati mu muhanda hateyemo imikindo ndetse munsi y'yo mikindo harimo jeride nziza cyane isa icyatsi kibisi.

Imodoka itwara abagenzi, isize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, iruhande rwayo hahagaze umuntu w'umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara zifite akabara k'umweru hasi.

Imodoka nini isize irangi ry'ubururu n'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hari inzu zisize amarangi y'umuhondo ndetse kandi hari n'ibyapa byanditseho ngo ogisi.

Ikimodoka kinini cy'ikamyo gisize irangi ry'umweru gihetse ibintu bitwikirije shitingi y'ubururu impande yacyo hari igare rihetse umugenzi n'imbere y'iryo gare hari irindi gare rihetse umugenzi utwaye iryo gare yambaye ingofero y'umutuku n'ipantaro y'umweru.

Imodoka iri mu bwoko bwa Toyota isize irangi ry'ubururu bwijimye, ihetse ibihombo biri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Iyo modoka impande yayo hari umumotari uhetse imifuka, hirya y'iyo modoka hari igikamyo kihaparitse kiri mu ibara ry'umweru.

Umumotari utambaye kasike uhetse imifuka urimo ibintu uri mu ibara ry'umweru, yambaye ikoti ry'umukara, inyuma ye hari umukarani wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara na bodaboda z'umuhondo, bari mu muhanda w'igitaka, hirya yabo hari abandi bamotari baparitse n'abantu bahagaze impande yabo.

Umugabo muremure wambaye umupira w'umweru n'ipantaro ya kacyi n'inkweto z'umweru, ari mu muhanda w'igiheri imbere ye hahagaze imodoka ebyiri za Ritco, zisize irangi ry'umweru ndetse n'iry'icyatsi kibisi, inyuma y'iyo modoka hari abantu benshi bafite imitwaro igiye itandukanye, turabona kandi n'ipironi riri imbere y'abo bantu ahagana inyuma y'imodoka za Ritco.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igikamyo cy'umweru cya rukururana gifite ibikontineri by'umweru n'icyatsi kijimye, biri mu kayira k'abanyamaguru, imbere yaho hari abamotari babiri bambaye amajiri y'umuhondo afite n'ibara ry'ubururu hasi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari wambaye kaseke y'umukara n'agapira k'umukara n'umweru uri kuri moto, uratwereka kandi akayira k'abanyamaguru kagizwe n'uburongo bw'umweru bushushanyije muri kaburimbo, hakurya y'umuhanda haparitse imodoka ndetse n'ibinyabiziga biri mu mabara atandukanye, arimo umutuku n'umukara.

Imodoka nini cyane y'ikamyo, isize irangi ry'umweru n'ubururu iri mu muhanda, impande yayo hari igare ritwaye umugenzi wambaye ingofero ifite irangi ry'ubururu n'umweru ndetse n'umutuku, hirya yayo hari ibiti biri hirya y'umuhanda biteye birebire.

Igikamyo cy'umutuku gihetse amabogisi y'umweru cyegeranye n'ikindi gikamyo cy'umukara birikubisikana mu muhanda wa kaburimbo. Hakurya y'uwo muhanda hari ibiti birebire bizitijwe supaneti y'icyatsi kibisi. Hakurya y'iyo supaneti hagaragara ibimodoka by'amabara y'umuhondo. Bigaragara ko harimo harakorerwa igikorwa runaka.

Imodoka iri mu bwoko bwa tagisi isize irangi ry'umweru, ifite plaque RAF zeru gatatu umunani H, mu idirishya ryayo hahagaze umugabo wambaye ishati ifite ibara rya move n'iry'umweru, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zirimo ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igikamyo gisize irangi ry'ubururu, amapine yacyo afite irangi ry'umuhondo. Impande y'icyo gikamyo hari umugabo wambaye umupira wa kaki n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara. Hirya y'icyo gikamyo hari ibiti bihateye bizitijwe supaneti isa icyatsi kibisi. Bigaragara ko aho hantu hari gukorerwa igikorwa remezo.

Igiti giteye rwagati mu mbuga y'amapave, iruhande rwacyo hari indobo iri mu ibara ry'ubururu ndetse kuri icyo giti hari icyuma kiri mu bwoko bw'ingorofani kiziritseho umukoba, byose biri muri iyo mbuga y'amapave.

Igikamyo cy'umweru gitwara peterori, impande yacyo hari umunyonzi wambaye ijire y'icyatsi kibisi uheretse umugenzi wambaye ibintu by'umukara. Hejuru yabyo hari icyapa cy'umutuku cya Mitsingi, impande y'icyo cyapa haragaragara igiti kirekire kihateye.

Imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa tagisi iri mu muhanda, impande yayo hari izindi modoka nazo z'umweru zo mu bwoko bwa tagisi, inyuma y'izo modoka hari imodoka kirekire gitwara abantu gifite irangi ry'ubururu, impande yi'izo modoka kandi hari abantu bambaye utwenda tw'imihondo n'amapantaro y'umukara, n'umugore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara.

Imodoka y'igikamyo isize irangi ry'umweru, hejuru ifite shitingi ihambiriyeho iri mu ibara ry'ubururu ihambirije ikiziriko, iruhande rwayo hari ibiti birebire biteye impande y'umuhanda, impande y'ibyo biti hari supaneti izitiye, bigaragara ko hari gukorerwa ibikorwa runaka.

Inzi nziza ya etage isize irange rya oranje, imbere yayo hari utuzu tudasakaye dukozwe mu biti bisize irange ry'umukara abantu bicaramo. Imbere yayo kandi hari ibiti bihateye birebire bya jaride birimo n'ibiti by'imikindo, yegeranye n'inzu iteye irange ry'umweru, nayo ni ndende ni etaje, iri impande y'utuyira tw'abanyamaguru.

Icyapa cy'umuhondo kiri munsi y'igisenge cy'inzu cyanditseho kigali poto. Imbere yacyo hicaye umugabo n'umugore, umugore imbereye hateretse machine. Icyo cyapa cyegeranye n'ikindi cyapa cyometse kuri iyo nzu cyanditseho ngo urisanga. Harimo kandi ameza n'intebe ibigiye bitandukanye.

Mu mujyi hagati y'amazu ya ma etage harimo abantu benshi cyane bari mu muhanda ,bari mu byabo bamwe bagenda abandi bicaye mu tuzu tw'imodoka bategereje imodoka ,hari kandi ibiti bigiye bitatse impande y'uwo muhanda biri mw’ibara ry'icyatsi kibisi.

Akazu gakozwe n'ibyuma bidasakaye kicayemo abantu basa n'abategereje serivisi runaka, impande y'ako kazu hari umugore ufite imisatsi miremire wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu uri kugenda, inyuma y'ako kazu na ho hahagaze abantu buri wese yibereye mu bye.

Ikibuga kinini cya basikete kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umutuku gifite paniye isa umuhondo, inyuma y'iyo paniye hari ibiti birebire ndetse hicaye abantu muri jaride kandi ifite korutire yubakishije amatafari y'impunyu, hirya y'aho abantu bicaye harunze amabuye.

Ikibuga cyiza giteye jaride nziza cyane, mo hagati muri cyo hari umuntu wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'icyatsi kibisi. Asa n'urimo aragenda. Hirya y'icyo kibuga hakikijwe n'amazu ndetse n'ibiti, bimwe mubihakikije bifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Jaride nziza isa icyatsi kibisi iriho ibyuma bisize irange ry'umweru bigize paniye ya basikete, hirya yayo hari ikirongozi gifite inkingi zisize irangi ry'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akarongo k'umuhondo hagati, iruhande rw'uwo muhanda hateye jaride zirimo imikindo, hirya yawo hari undi muhanda, hirya y'uwo muhanda hari inzu ndende ya etaje igeretse gatatu isize irangi ry'umweru, amadirishya y'iyo nzu asize irangi ry'umukara.

Icyapa kinini kigizwe n'impande eshatu kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, kiyobora ibinyabiziga, muri icyo cyapa imbere harimo udufureshi turi mu ibara ry'umukara, kamwe karareba imbere, akandi karareba inyuma.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko maremare k'icyatsi kibisi cyijimye, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, akaba afite igikapu ku rutugu rw'iburyo. Inyuma ye hari undi mugabo wambaye ingofero itukura n'agapira gatukura n'ipantaro y'umukara. Ahagaze impande ya kaburimbo, hejuru ye hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyanditseho Rusizi District. Impande y'icyo cyapa na none hafasheho ikindi cyapa cy'umweru.

Ibyapa bibiri bya mpande eshatu bigerekeranye ku cyuma kimwe by'umuhondo bizengurutswe n'utubara tw'umutuku mu mpande, icyo hejuru kirimo umugabo ufite igitiyo urimo urayora imyanda, bigaragara ko aha ahantu hari gukorerwa igikorwa remezo runaka cyo kubaka umuhanda, inyuma yacyo hari ibindi byapa birimo icyapa kiri mu ubwoko bw'uruziga cyanditsemo mirongo ine, hejuru yacyo hari icyapa giparitsemo imodoka ebyiri.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, muri icyo cyapa harimo igare riri mu ibara ry'umukara, iryo gare ricishijemo akarongo kari mu ibara ry'umutuku, hasi y'icyo cyapa handitseho amagambo ngo no sayikiringi n’ayo ari mu ibara ry'umutuku ariko yo yandikishije mu ibara ry'umweru.

Icyapa kirimo ibara ry'ubururu gikikijwe n'ibara ry'umweru, gifite inyuguti yandikishijwe ibara ry'umweru ya p, munsi y'iyo nyuguti harimo imodoka ya kwasiteri ifite amapine y'umweru, isize n'irangi ry'umweru.

Icyapa kinini gifite impande enye zingana kiri mu ibara ry'ubururu muri cyo handitsemo inyuguti ya pa yandikishije irangi ry'umweru munsi yiyo nyuguti hari imodoka ya kwasiteri nayo isize irangi ry'umweru.

Icyapa cya oranje kigizwe n'impande enye zingana, kizengurutswe n'akarongo k'umukara mu mpande, mo imbere handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, avuga ngo rodi waka ahedi, bisobanura ko imbere gato harimo harakorwa umuhanda.

icyapa cy'umutuku gikoze mu ruziga, gifite ibara ry'umweru mo imbere, kirimo imibare gatatu zeru, kirerereka ibinyabiziga ko aho ibyo binyabiziga bigeze bitagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itatu kugira ngo hirindwe impanuka mu muhanda.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu ibara ry'umutuku ku mpande kizengurutswe n'akabara k'umukara mo imbere harimo ibara ry'umweru. Hashushanyijemo umuntu uri mu ibara ry'umukara, usa n'ufite igitiyo ari kuyora imyanda na yo iri mu ibara ry'umukara.

Icyapa cy'umutuku gikozwe mu ruziga, kirimo imibare mirongo itatu kiyobora ibinyabiziga ko aho hantu ibyo binyabiziga bigeze, bitagomba kurenza umuvuduko wo ku kigero cya mirongo itatu, mu buryo bwo kwirinda impanuka mu muhanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyometse ku nkingi y'icyuma, kirimo agafureshi kagonze k'umukara, icyo cyapa kiri impande y'umuhanda wa kaburimbo ndetse kuri icyo cyapa handitseho amagambo avuga ngo dirimuzi tayimu.

Icyapa cy'umuhondo kizengurutswe n'akabara k'umukara mu mpande cya mpande enye, kirimo agafureshi k'umukara kareba imbere n'akandi kamanuye, byerekana ko uwo muhanda uri imbere gato, hari amahuzo y'imihanda ibiri.

Icyapa cya mpandeshatu kiri mu ibara ry'umutuku mo imbere harimo ibara ry'umweru, imbere muri iryo bara ry'umweru harimo ikindi cyapa cy'ikimenyetso kiririmo ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, biyobora abagenzi igihe bageze muri feruge.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rwawo hari jaride irimo icyapa gitukura, kiri mu bwoko bwa mpande eshatu, kirimo udufureshi tw'umukara. Impande y'icyo cyapa, hari imodoka isize irangi ry'umweru, hirya yayo hari jaride iteyemo ibiti birebire byiganjemo imikindo.

Icyapa kinini cy'umuhondo kiri mu bwoko bwa mpandenye, kigizwe n'amabara y'umuhondo n'umukara, hagati muri cyo harimo udufureshi tubiri, kamwe karareba haruguru akandi kakareba hepfo, hagati y'utwo dufureshi harimo irindi bara ry'umukara.

Inzu nziza zisize irangi ry'umweru, zisakaje amabati y'umutuku, imbere yazo hari jaride zihateye z'indabyo, inzu imwe ifite korotire isize irangi ry'icyatsi kibisi, yubakishije amatafari y'impunyu, indi ifite korotire iri mu irangi ry'umukara n'umweru, iriho amakaro yo mu ibara ry'umweru n'umukara.

Inzu nziza cyane ifite igisenge gifite amabati atukura, iteye karamasasu kandi munsi yayo hari igipapayi gifite amababi y'icyatsi kibisi. Inkuta z'iyo nzu yayo ziteye irange ry'umweru.

Akayira k'abanyamaguru gakoresheje amapave kari impande y'umuhanda ukoresheje amapave muri uwo muhanda haparitsemo imodoka ndetse harimo na moto iri kugenda itwaye umugenzi, kuri ako kayira kandi hari inzu yubakishije imbaho, impande y'izo mbaho hari indabyo ndetse kandi kuri iyo nzu hari indobo iri mu bwoko bw'ubururu, isa ubururu n'akabasi k'ubururu bigaragara ko ariho abantu bakarabira.

Inzu nziza ya etaje igeretse gatatu isize irangira ijya gusa shokora, imbere yayo haparitse imodoka eshatu, imwe y'umutuku, indi y'ubururu, indi y'umweru, imbere y'izo modoka haparitse abamotari, bari kuri moto zabo bambaye kasike z'imihondo, ndetse n'iz'ibara ry'umutuku, impande y'iyo nzu hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Umumotari wambaye kasike y'uburu na jire y'akazi y'umuhondo, uri kuri moto ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, ari mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari inzu ndende ya etaje isize irangi ry'umweru ndetse ifite n'ibirahure by'umukara.

Inzu nziza cyane ya etage isize irangi ry'umuhondo n'umukara ikingishijwe polotaye ikozwe mu mbaho imbere yayo hari amapave igikuta cyayo kimwe gikozwe mu matafari y'impunyu ituye iruhande rw'umuhanda.

Inzu ya etaje isize irangi ry'icyatsi kibisi, imbere yayo hari imodoka ebyiri, imwe isize irangi ryumukara, indi isize irangi ritukura. Imodoka y'irangi ry'umukara ifite pulake ya RAC umunani umunani gatanu Q. Imodoka y'irangi ry'umutuku ifite pulake ya RAG umunani kane kabiri A.

Inzu nini cyane ya etaje, igizwe n'ibirahuri bisize irangi ry'umukara n'iry'icyatsi kibisi, ku nkuta zayo zisize irangi ry'umuhondo, imbere yayo hari igiti kiri kugaragaza amashami, hari kandi akarongo kamanuka kuri ibyo birahure kari mu irangi ry'umweru.

Igikuta cy'inzu ya etaje gisize irangi ry'umuhondo, gifite utudirishya dutatu turi mu ibara ry'umukara, hejuru y'icyo gikuta hateretse ibigega bitatu biri mu ibara ry'umukara, impande y'icyo gikuta hari ikindi gikuta cy'inzu gisize irangi ry'ikijuju.

Inzu nziza cyane ya etage isize irangi ry'umuhondo n'umukara ndetse n'akarangi k'umutuku mu mpande imbere yayo haparitse imodoka y'umweru urugi rwa porutaye y'iyo nzu rusize irangi ry'umukara hirya kuri iyo nzu hagaragarara ikigega cy'umukara impande yacyo hari ibara ry'ubururu imbere y'iyo nzu kandi ha pavomesheje ama pave.

Inzu nini cyane, isize irangi ry'umuhondo, ifite inzugi zisize irangi ry'umukara, hari kandi utwuma tugiye dutangira abantu ko batagwa, kubera ko iyo nzu igaragara nkaho ari etaje, natwo dusize irangi ry'umukara.

Inzu eshatu za etage ziteye irangi ry'umuhondo, imbere yazo hari ibiti ndetse n'izindi nzu ziteye irangi ry'umuhondo zisakaje amabati y'umweru. Haruguru yazo hari inzu ifite amabati y'umutuku.

Inzu nziza ya etaje iteye irangi ry'umuhondo n'umukara, ifite porotaye ikozwe mu biti, kuri iyo nzu hariho icyapa kigaragaza nimero iyo nzu ifite cyanditseho ka ca ra gatatu rimwe gatanu sa ra makumyabiri na gatatu.

Inzu nziza ya etaje ifite inkingi zubakishije amakaro ari mu ibara ry'umukara n'umweru, na yo isize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, imbere yayo haparitse imodoka iteye irangi ry'umweru, imbere y'iyo nzu hasi hapavumesheje amapave.

Inzu nyinshi zubatse mu buryo bw'igitwe, zubakishije amabati y'umutuku ziteye irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru, hino yazo hari korotire ikoze mu matafari y'impunyu, nyuma y'iyo korotire hari ibigori bihahinze bizitiye bikoreshejwe senyenge.

Inzu nziza cyane ya etaje, ifite ibirahure, yubakishije amatafari y'impunyu, imbere yayo hari ipironi rirerire cyane rigiye ririho insinga z'amashanyarazi, ku gipangu cyayo hubakishije amabuye, ndetse n'amatafari y'impunyu, inyuma y'ayo mabuye, hari ibiti bihateye, bigaragara ko ari jaride.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari bahetse abagenzi, impande yawo hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi kibisi. Impande y'ibyo biti harimo amatara agenda amurikira abagenzi ndetse n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka isize irangi ry'umukara, imbere yayo hari igikamyo gisize irangi ry'umweru, inyuma yayo hari igare ririho umuntu wambaye agapira k'umutuku n'ingofero y'umuhondo, ku ruhande rwayo hari ibiti birebire cyane bifite ibibabi n'amashami byatsi kibisi.

Umuhanda wa kaburimbo, uriho umumotari wambaye kasike y'umuhondo utwaye moto, inyuma ye hari umunyegare uhetse umugenzi bombi bambaye imyenda y'umweru, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru, uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru. Impande zombi z'uyu muhanda zikikijwe n'ibiti birebire.

Imodoka isize irangi ry'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo, yanditseho amagambo ko igemura inyama, imbere yayo hari umugabo utwaye igare wambaye agapira k'umukara n'ipantaro ya kaki n'inkweto z'umweru, hirya yayo hari indi modoka na yo isize irangi ry'umweru, inyuma y'iyo modoka hari inzu ndende ya etaje ndetse n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka icanye amatara, impande y'iyo modoka hari igikuta kirekire kigabanya umuhanda wo hasi n'uwo hejuru. Ku ruhande hari umunyonzi utwaye igare. Impande y'iryo gare kandi hari irindi gare riparitse ridafite umuyonzi, imbere yaryo hari umugabo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo aho abagenzi bambukira hari imirongo y'umweru ibigaragaza, hari imodoka ebyiri, imwe iri guturuka mu ruhande rw'uruguru indi ituruka mu ruhande rwo hepfo, imwe ifite ibara ry'umweru indi ifite ibara ry'umukara, inyuma yazo hari inzu yubakishije amatafari y'impunyu ndetse n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, imbere hari guturuka imodoka ndetse na moto, ku ruhande hari abantu bari kugenda n'amaguru, hari n'amatara yo ku muhanda amurikira abantu n'ibinyabiziga n'ijoro, hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi.

Ihurizo ry'imihanda hagati mu muhanda hateyemo igiti kirekire ndetse munsi yacyo harimo indabyo. Mu muhanda harimo igikamyo gisize irangi ry'umutuku n'umweru. Hirya ku ruhande baratwereka aho abanyamaguru bambukira kandi hari n'icyapa kigaragaza ko nta modoka zemerewe guparika aho ngaho.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo udufureshi tw'umweru, kamwe kareba iburyo, akandi kareba ibumoso, hagati muri uwo muhanda hakasemo akajaride bakatishije amabara y'umukara ndetse n'umweru, hirya ku ruhande rw'uyu muhanda hateye ibiti ndetse hari n'umuntu uri kugenda wambaye agapira k'umweru n'ipantaro ya kaki.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari wambaye ingofero imukingira impanuka ndetse na jiri, imbere ye hari icyapa cy'umuhondo kiriho n'ibara ry'umukara, hirya gato hari ikamyo itwaye ibintu, iy'imbere iritwikirije shitingi y'icyatsi kibisi, iyikurikiye itwikirije shitingi y'ubururu, hirya yazo hari amapiloni n'insinga z'amashanyarazi.

Akazu ko ku muhanda abagenzi bicararaho, gasize irangi ry'ubururu imbere yako hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka z'ivatiri ndetse na moto ihetse umugenzi. Hirya ya moto hari ibiti bifite amashami meza cyane y'icyatsi kibisi.

Igikuta gisize irangi ry'umweru kigabanyamo imihanda ibiri umwewe hirya undi hino, impande yacyo hari icyapa gishushanyijeho indege kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi kigaragaza ko aho hantu hafi hari indege, impande yaho hari indabyo ziteyemo umukindo, impande y'uwo mukindo hari icyapa kigaragaza ko nta parikingi y'imodoka ihari.

Imihanda ibiri ya kaburimbo, umwe unyura hejuru undi unyura hasi, uwo hejuru uraterera ndetse mu kayira kawo k'abanyamaguru, hari umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, uwo hasi uriho umumotari uhetse umugenzi wambaye agapira k'umweru ndetse uhetse n'igikapu mu mugongo, inyuma y'uwo mu motari hari akayira abanyamaguru bambukiramo.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza aho abanyamaguru bambukira hagizwe n'uturongo tw'umweru ndetse n'umukara muri uwo muhanda harimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga haragaragaramo kandi ferouge n'amapoto ndetse n'amazu agiye akikije uwo muhanda hari kugaragaramo kandi ibiti bigiye biteye ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari wambaye kasike y'umutuku n'ijiri y'umuhondo ndetse n'ubururu n'inkweto z'umweru, iruhande rw'uwo muhanda hari akapa kagizwe n'amabara y'udufureshi tw'umutuku ndetse hateye n'ibiti birebire, hari kandi n'ipoto ifite amatara amurikira abagenzi mu muhanda.

Mu mahurizo y'imihanda ya kaburimbo, hari imodoka ebyiri z'umukara inyuma yazo, hari imodoka y'umweru, zose ziri kugenda, muri ayo maherezo kandi hagaragaramo jaride, ziteyemo pasiparumu, n'indabyo ndetse n'imikindo, ku mpande z'iyo mihanda, hari amatara amurikira abagenzi nijoro bari kugenda.

Mu mahurizo y'umuhanda wa kaburimbo, hagaragaramo jaride iteye hagati mu muhanda wa kaburimbo, n'imodoka iri mu irangi ry'umweru biri kugenda muri iyo kaburimbo. Haruguru gato y'iyo jaride hari igikuta cy'amabuye, rugura yicyo gikuta cy'amabuye hari akazu gasize irangi ry'ubururu n'umweru. impande ya kaburimbo kandi ku ruhande, impande y'agahanda k'abanyamaguru hari igiti kirekire.

Umuhanda wa kaburimbo munini ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, hagizwe n'amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwawo hari inzu nini cyane ya etaje isize irangi ry'umweru. Kuri uwo muhanda kandi hari cya cyuma gifotora abamotari cyangwa imodoka zarengeje umuvuduko, hari kandi na feruje. Hirya yawo hari icyapa kirekire kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho inyuguti ya P.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bya moto. Ku ruhande rwawo hari itara rimurikira abagenzi, impande y'iryo tara hari ibiti bihateye bikikije uwo muhanda nyine. Inyuma y'abamotari hari amazu y'ubucuruzi n'ibyapa biyobora abagenzi.

Mu mahurizo y'imihanda ya kaburimbo hari abamotari babiri bahetse abagenzi, imbere y'abo bamotari hari agakamyo gafite ibara ry'umutuku, imwe muri ayo mahurizo hateye jaride zimanitsemo ibyapa biriho isaha zigenda ziyobora abagenzi aho igihe kigeze.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, urimo umumotari wambaye ingofero y'umutuku imurinda impanuka n'imyenda y'umweru, imbere ye hari amatara amurika mu muhanda, iruhande rwawo hari inzu isize amarangi y'umuhondo, imbere y'iyo nzu hapavomesheje amapave, hari ndetse na jaride z'indabyo ku ruhande rw'uwo muhanda.